Ibiganza by'umuntu bifite ifumbire y'imborera, ni ifumbire bigaragara ko yaboze neza ndetse ikaba igiye kwifashishwa mu gutera imbuto zitandukanye kugira ngo zizere neza nta nkomyi.

Amagi aronze mu kintu cy'igitebo cyagenewe gushyirwamo amagi ndetse hakaba hari n'andi yamenetse hasi, bigaragara yuko ari amagi menshi cyane kandi meza.

Etajeri irimo amacupa agiye atandukanye, hari ari hejuru, hari ari hasi, ndetse bigaragara ko yose arimo imiti cyangwa se ibindi bintu byifashishwa mu buhinzi.

Etajeri irimo amacupa menshi cyane afungiyemo ibintu bigiye bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, hari na za ruzwara zitereye hejuru yaka etajeri, zifashishwa mu kuvomera ibihingwa.

Abantu barimo gushyira ifumbire ku bigori ndetse bigaragara ko harimo n'abayobozi ndetse n'umuntu umwe ushinzwe umutekano. Muby'ukuri akaba ari igikorwa cyo gukangurira abaturage gukoresha ifumbire nyongeramusaruro.

Intoki z'umuntu zirimo kugenda zikandagiza ibyatsi ndetse ibi byatsi bikaba bizifashishwa mu gukora ifumbire. Bikaba ari uburyo bugezweho bwo gufata ibyatsi bakabitema, bakabyumvisha, bakabitaba ahantu bikazabyara imborera.

Abantu barimo gutunda ifumbire y'imborera, aho bayikoze bifashishije ibyatsi bafashe bakabishyira ahantu hamwe, nyuma y'igihe kinini bakazasanga byaraboze.

Ibikarito bitandukanye bifunze bikaba bigerekeranyije biri mu nyubako, bigaragara yuko ari birimo ibintu bigiye bitandukanye, urugero nk'ifumbire ndetse n'imiti.

Etajeri zirunzemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi, aho harimo imiti iterwa imbuto ndetse hakabamo n'imirama yifashishwa mu guhumbika.

Akayetajeri karimo ibintu bigiye bitandukanye, kakaba gateretsemo amacupa ndetse n'amakarito hakaba hamanitsemo n'amapombo yifashishwa mu gutera imiti mu myaka.

Mu isoko haba ibicuruzwa bigiye bitandukanye ku buryo buri muntu wese agenda agura ikintu bitewe n'aho ari bukigurire, hari ahaba ibicuruzwa bigendanye n'ubuhinzi ndetse hakaba n'ahaba ibigendanye n'ibindi bintu.

Ibiganza by'umuntu bikoze muri amvirope bizamura ifumbire mvaruganda, bikaba bigiye kuyishyira ku gihingwa bigaragara ko ari igihingwa gitoshye.

Ku masoko hirya no hino ugenda ushaka ibicuruzwa bitewe n'aho biri. Niyo mpamvu buri gice cyose kigira ibyacyo. Hari igice uzasanga gicururizwamo ibijyanye n'ubuhinzi, hari n'ikindi uzasanga gicururizwamo imyambaro.

Ifumbire mvaruganda ziba ziri mu moko atandukanye, hari iyitwa DAP yifashishwa mu gutera ibihingwa nk'ibirayi, imyumbati ndetse n'ibigori.

Abantu barimo gutunda ifumbire bifashishije ingorofani. Iyo fumbire barimo gutunda ni imborera ndetse ikaba ari ifumbire yakozwe mu buryo bugezweho.

Abantu babiri barimo kugenda bashyira imvaruganda ku bigori, ndetse hakaba hari n'abandi batagaragara bari hirya nabo bari muri icyo gikorwa, ni ibigori bihinze ku buso bunini cyane.

Amashyi y'umuntu ateruye ifumbire, ndetse ikaba iri mu biganza byombi, ni ifumbire yo mu bwoko bwa dapu, yifashishwa mu gutera imyaka igiye itandukanye.

Etajeri y'umweru ifite imyanya itandukanye, ibitswemo amacupa ndetse n'amakanete menshi atandukanye arimo imiti, imirama n'ibindi byifashishwa mu buhinzi.

Etajeri ibitswemwo ubuvido burimo ibintu bigiye bitandukanye byo kunyobwa, harimo amaji ndetse hakabamo n'amata, byose bikaba bikomoka ku buhinzi n'ubworozi.

Icupa rirerire rinini ry'umweru, rishushanyijeho amagambo yanditse mu ibara ry'umutuku, agira ati tuza ndetse hakaba hashushanyijeho n'ikimera, bivuga ko ari umuti uterwa ku bihingwa.

Hari uburyo bw'ikoranabuhanga bumaze kuvumburwa n'abahinzi, aho bafata ibikoresho bitandukanye by'imipira ndetse na za robine, hanyuma bakabyesitara mu murima, bikajya bifasha mu gihe cy'izuba.

Akayetajeri karunzemo amacupa arimo imirama itandukanye, iy'amashu ndetse n'iy'inyanya na karoti n'ibindi bihingwa bihingwa bibanjije kuvomerwa cyangwa guhombekwa.

Umugabo bigaragara ko ari umuhinzi wabigize umwuga ari mu ruzabibu rwe ari gusasira inyanya, izo nyanya ziracyari ntoya ntiziragera igihe cyo kuragarika imbuto.

Etajeri ipanzemo amacupa menshi ikaba ikoze mu giti, ifite imyanya myinshi yo kubikwamo aya macupa, ayo macupa akaba arimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buhinzi.

Isafuriya cyangwa ibasi cyangwa igitebo kirunzemo ubunyobwa, ubu bunyobwa bukaba bwifashishwa mu bintu bitandukanye, aho bushobora kuribwa cyangwa se bugasebwa bukavanwamo ifu.

Umuntu w'umugabo umwe ari guhinga yegereye umugende abandi na bo barimo barahinga, bamwe bakubise amasuka mu butaka abandi bayazamuye bagiye kuyakubitamo, uyu murima ntibawusiga barawumara pe.

Imbuga nini ngari cyane ishashemo amabuye hakaba hari ifumbire y'imbora iharunze, iyo fumbire ikaba izifashishwa mu gutera imyaka.

Abana batoya bashishikarizwa kwita ku bidukikije ndetse no guharanira ko ubutaka bwacu butagenda butwawe n'isuri, niyo mpamvu abanyeshuri baje gutwara ibiti by'avoka bizaterwa ku kigo cyabo kugira ngo bifashe muri ubwo buryo.

Abaturage bazindutse kare kare baza kuri pikinyeri, aho baje gufata imbuto z'ibiti by'avoka kugira ngo bajye kubitera mu mirima yabo bityo bazabashe kurya imbuto z'avoka.

Ibigori byiza cyane bitoshye byahetse ubona ko byitaweho bikaba ari ibya kijyambere, bikaba byitezweho gutanga umusaruro utangaje cyane.

Icyayi ni igihingwa kimaze kumenyererwa mu Rwanda, hirya no hino mu turere two mu byaro. Aha ngaha twavuga nk'Uturere twa Nyaruguru, Rutsiro na za Nyamagabe.

Ubuhinzi bw'inyanya ni ubuhinzi bumaze gutera imbere ku rugero rushimishije, gusa ikibazo kigihari ni uko nta ruganda na rumwe ruba mu Rwanda rutunganya ibikomoka ku nyanya rushobora guhita ruzifata mu baturage.

Umugabo bigaragara ko akuze yibereye mu kabande, amaze guhinga umurima we yawutunganyije, afashe ibigorigori abishyira hagati y'amabimba yagiye ahinga.

Umurima munini cyane uri ku gasozi mo hagati agiye hateye ibiti birebire. Uyu murima ukaba ubagaye ndetse ibihinzemo birasa n'ibyayi bihinzemo.

Umurima uhinze munini bigaragara ko ari intabire y'amatere ndetse ikaba ihinzemo n'ibiti bya gereveriya. Harimo n'imyumbati igiye ihungitsemo.

Umurima uhinze neza cyane ukaba umaze gutabirwa, hakaba harimo n'amateke make make bigaragara ko bagiye guhingamo ibishyimbo, hari inzu iri guhinguka y'umuturage yubakishije amatafari ya rukarakara.

Ibirayi byiza cyane bya Musanze, ni ibirayi bihingwa muri ako karere kavuzwe haruguru, ndetse bikaba ari ibirayi binini biryoha wabiteka ifiliti, wabitogosa.

Umugabo ari mu ruzabibu rwe, aho yahinzemo amatunda ndetse n'ibishyimbo, bigaragara ko byose ari byiza cyane, biratoshye bisa neza byitaweho.

Umurima munini cyane uteyeho ibihingwa bigiye bitandukanye gusa ugiye urimo n'amashyamba, harimo ibiti by'inturusu ndetse n'ibindi byinshi cyane bituma utabasha kwera.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ubuhinzi buteza imbere ababukora cyane ko ikawa ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu u Rwanda rugira, rukaba ruryohereza hanze ku isoko mpuzamahanga.

Ibiti by'ikawa bigaragara ko ari ikawa rikuru ndetse ritarera, rifite ibitumbwe bidatukuye ariko rikaba ari ikawa ridakoreye neza kuko ntirisasiye ntirinahingiye.

Umugabo wabigize umwuga guhinga, yahinze ibitunguru byinshi cyane abihinga ku buso bunini ndetse bugari none agiye gutangira gusarura mu minsi iri imbere.

Igiti kiri ku musozi, kikaba gifite amababi n'amashami atoshye, ndetse hirya yacyo hakaba hari ibindi byinshi bigaragara by'inturusu, bikaba ari ahantu hadahingwa.

Umurima uhinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo inyanya, hakabamo n'inzuzi cyangwa se ibihaza, harimo n'ibigori bimaze kwera ndetse byatangiye gusarurwa.

Igiti giteye ahantu mu murima, ndetse uwo murima ukaba udaheruka guhingwa. Hakaba hari n'amakoma y'insina ari gutunguka, bigaragara yuko atoshye ameze neza.

Igiti cya voka kiri iruhande rw'inyubako, iyo nyubako bikaba bigaragara ko ari inyubako nziza cyane isize irangi ry'umweru ndetse hakaba hagaragara n'umuhanda utambuka imbere.

Ibihingwa byiza cyane biteye neza, bifite ibibabi bimeze nk'iby'amatunda y'ibiti ariko byo bikaba byitwa ruswa, bifite imbuto nziza cyane hejuru zeje zifite umuhondo.

Inkoko zirimo kugaburirwa ibiryo byazo, bakaba bari kubishyira mu mbehe yazo yazigenewe, ni inkoko nziza cyane zo mu bwoko bwa saso, hakaba harimo amasake ndetse n'inkokokazi.

Inkoko nini y'umweru iri imbere y'umwana mutoya akaba afite agasahani ari kugenda ariramo ibiryo, aho kubirya ari kugenda abiyora aterera inkoko.

Amacupa maremare manini abitswemo umuti wifashishwa mu gutera ku mbuto ndetse n'ibihingwa bitandukanye kugira ngo hirindwe udukoko dutandukanye twangiza imyaka.

Icupa rinini cyane ryanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, hakaba hashushanyijeho inka. Iryo cupa rikaba ririmo imiti yifashishwa mu kuvura inka.

Igihingwa cy'umuceri kirahingwa kigasarurwa kikumishwa ndetse kigahurwa, niyo mpamvu uzasanga rimwe na rimwe abantu badakunze kuwuhinga kuko bisaba inzira ndende.

Imishwi y'inkoko myinshi cyane bigaragara ko ibarirwa mu bihumbi, ikaba ari imishwi yaturagishijwe hifashishijwe imashini ndetse ikaba ari imishwi y'ubwoko bwiza cyane.

Intoki z'umuntu zifite akantu k'agapapuro mu ntoki gashushanyijeho amagambo ari mu rurimi rw'Icyongereza ndetse akaba bigaragara ko ari urukingo.

Ikiganza cy'umuntu bigaragara ko ari umugore, gifite ifumbire mu ntoki ndetse akaba arimo kugaragaza ko igihe cyose ugiye guhinga ugomba gukoresha imvaruganda.

Akayetajeri gafite imyanya myinshi, buri mwanya ukaba ubitswemo amacupa agiye atandukanye, ndetse hakaba hari n'ahari udufuka dufunze. Uko bigaragara harimo imiti yica udukoko, yifashishwa mu buhinzi.

Indobo zigerekeranyije zifite ibara ry'umukara n'umweru, zikaba zandikishijweho amagambo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi ari mu ibara ry'umukara. Izi ndobo zikaba zirimo ibikoresho byo gushyira mu kiraro cy'inka.

Inyoni ifite umunwa bigaragara ko umeze nk'uw'inkoko, yibereye ahantu ku giti iratuje cyane isa nk'ibundikiye abana bayo cyangwa se ikaba irimo gutera.

Akavido gashushanyijeho inka nziza cyane imeze nka zimwe ziba mu Buhinde, ifite icebe rinini bigaragara ko ikamwa amata menshi, aka kavido kakaba ari ak'umweru kabereye amata.

Inyamaswa iyo ari yo yose ikunda kwita ku bana bayo. Urukwavu na rwo ruri muri izo nyamaswa. Urukwavu rukunze kubwagura ibibwana byinshi ariko rukora ibyo rushoboye byose rukabitaho.

Inka nziza cyane bigaragara ko yorowe mu buryo bwa kijyambere, ikaba ari inka y'inzungu, ikaba ifite ahantu irira habugenewe, ndetse ikaba yibera mu kiraro cyayo.

Ifumbire yitwa ishwagara ni ifumbire yifashishwa ivangwa n'ubutaka kugira ngo igabanye ubukana ndetse n'ubusharire bityo igihingwa kizabashe gukura neza.

Urukwavu rurimo kurisha mu gihuru, birashoboka ko rwaba rwatorotse cyangwa se akaba ari urukwavu rwo mu gihuru mu by'ukuri inkwavu ni inyamaswa zizi kwiruka cyane ubu ntiwarufata.

Umugabo arimo guhinga aho arimo guhinga hari hahinze ibigori, ariko ari kugenda abibagara bitewe n'uko ari bikeya ashaka guhingamo indi myaka.

Umugabo wambaye bote z'umukara, akaba yambaye ikote ndetse ateze ingofero, arimo gutunganya umurima, aho ari kugenda areshyeshya ubutaka, ndetse akanabupima kugira ngo aze guteramo ibihingwa.

Abantu benshi barimo guhinga ndetse bigaragara yuko aho bahinga hateyemo imyaka igiye itandukanye n'urubingo. Bakaba bari kugenda bahinga bayibagara.

Umugabo wambaye amarinete ufite inda nini, yaje gusura ibigori bye. Ibyo bigori bihinze mu kabande, ndetse bikaba byenda kwera. N'ibigori byiza cyane, kimwe cyagiye giheheka bibiri.

Abantu benshi cyane barimo guhinga ndetse bakaba barimo kugenda bacukura imyobo, aho bagiye gutera imyaka ndetse bakaba bitegura gushyiramo ifumbire.

Umuntu w'umugore arimo guhinga ndetse ari kumwe n'umugabo we. Inyuma yabo hari undi muntu wambaye imyenda y'ubururu urimo kubitegereza. Bari mu rutoki bigaragara ko ari urutoki rwiza ndetse rufite n'ibitoki.

Umugabo ari mu mbuto ze. Izo mbuto ni urusenda ruhinze ku buso bunini cyane. Rukaba ari urusenda rugeze igihe cyo gutangira kuzana imiteja. Mu by'ukuri uru rusenda rwaravomewe rushyirwaho imvaruganda rukaba rwitezweho umusaruro mwinshi.

Abaturage benshi cyane bazindutse kare kare mu gikorwa cy'umuganda. Bakaba barimo kugenda basiba ibinogo ndetse banasibanganya ahantu hose umubu ushobora kororokera.

Umugabo wambaye bote ndetse zikaba zisa ibara ry'umukara, arimo gucukura iruhande rw'igiti. Icyo giti kikaba ari igiti kivangwa n'imyaka, akaba agiye kugishyiraho ifumbire mvaruganda.

Umugore ari mu ntabire ari kugenda atera ibishyimbo ndetse hakaba hari n'undi mugabo uri inyuma ye uri kugenda asubiranya. Hari ibyatsi barunze bigiye gutwikwa.

Abagore bamaze guhura umuceri. None barimo kuwurunda. Bakaba bazanye n'imifuka iri iruhande rw'inzu, kugira ngo baze kuwuyoreramo maze imodoka izaze kuwujyana.

Umukobwa mwiza cyane wambaye ingofero, ufite imisatsi ifungiye inyuma akaba yambaye na bote, arimo guhinga agenda atunganya ahantu azatera karoti.

Umugabo arimo gutera imbuto akaba ari gupimisha amakamba kugira ngo atere ku rugero rwagenwe. Ibi ngibi bikaba bizamufasha kweza umusaruro mwinshi.

Abantu barimo guhinga, bakaba bari guhinga mu murima ndetse bigaragara ko ari ahantu hegereye ishyamba. Aba bahinzi bose bakaba bambaye bote ndetse bafite amasuka y'imijyojyo.

Abantu babiri bari mu murima bakaba bari guhembera inyanya, bigaragara yuko ari inyanya nziza ndetse zatewe n'umuti, bikaba ari ibintu bigaragaza yuko abaturage basobanukiwe ubuhinzi.

Umusaza wikoreye utugori dukeya, akaba agiye kutwotsa, aho avuye kuduca mu mubande. Ni umusaza wambaye igikote, ndetse akaba yambaye na bodaboda z'icyatsi.

Abantu bazindukiye mu murima barimo guhinga, bakaba bamaze kugera hafi yo ku mutwe ndetse imbere yabo harambitse umuhoro, uwo muhoro wifashishwa mu kugenda batema ibintu bibabangamira.

Abaturage bazindukiye mu muganda, bakaba barimo gusibura umugende, kugira ngo amazi ye kuzajya yica umuhanda ndetse bikaba ari ibintu byiza cyane.

Abaturage bigaragara ko barimo guhinga ndetse bakaba bari gukora igisa nk'akarima k'igikoni kuko bitewe n'uburyo bari kukubakamo bagiye guteramo imboga ndetse n'imbuto.

Abaturage bazindutse kare cyane, barimo kubakira umuntu utishoboye, aho baponze icyondo bakaba barimo guhoma inzu. Iyo nzu ikaba isakaje ibati, ndetse imbere yayo hari ikiraro kizashyirwamo inka

Umuntu bigaragara ko ari umugabo arimo guhinga mu murima w'urutoki akaba agiye kusa ndetse biragera mu ma saa tanu yahamaze agahita yitahira.

Umuntu bigaragara yuko ari umusore ukiri urubyiruko arimo gutiyura ibitaka, abikura ahantu igikuku cyakukumutse akaba ari kugenda abishyira ku mufuka ajya kubimena ahabugenewe.

Imifuka myinshi cyane y'amafumbire ipanze ahantu hamwe, ikaba ari imifuka iri mu ibara ry'umuhondo, ikaba itegereje imodoka izayipakira ikayijyana mu baturage hirya no hino.

Ibigori bimaze guhungurwa bishyirwa mu mifuka, hanyuma imodoka ikaza kubipakira, ikabijyana ku ruganda, kugira ngo bakoremo za kawunga. Naho ibitiritiri byabyo bigahita bijyanwa ahabugenewe.

Ibigori bihinze mu mubande bikaba bigiye kwera habura igihe gitoya, n'ibigori ubona ko bihinzwe ku buso bunini ndetse bikaba bifite n'umugezi unyura hagati y'imirima yabyo.

Avoka za kijyambere ni avoka umuntu atera agatangira kubona umusaruro mu gihe gitoya, ku buryo abahinzi benshi ndetse n'abaturage bamaze gusobanukirwa neza akamaro k'izi mbuto, bakaba barimo kuzitera ku bwinshi.

Ubwanikiro bw'ibigori bwo mu mudugudu umwe mu ituye mu Rwanda, hari abaturage benshi cyane, aho baje guhungura ibigori ngo babijyane ahabugenewe.

Abantu batatu barimo kurobanura inyanya. Izo nyanya ni nyinshi cyane ndetse ni nziza, zikaba zarejejwe n'umugabo witejeje imbere binyuze mu guhinga.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu yikoreye agafuka ku rutugu, ndetse bigaragara y'uko ari kugenda apanga imifuka myinshi ku ruhande rumwe, kugira ngo imodoka niza izabone uko iyipakira.

Abagabo bagera muri bane, bari mu nyanya, bakaba bazitonze ku bitebo bamaze kuzisarura, aho bazizanye mu isoko gutegereza abaguzi.

Abantu bari mu gishanga ni benshi bakaba bamwe bari guhinga abandi bikoreye imifuka, hari n'abandi bari kugenda bigendera batambuka.

Avoka zirunze ahantu hamwe, bigaragara ko ari mbisi zikaba zigiye kujyanwa ku isoko kugira ngo abaguzi bazigure hanyuma bazazifashishe mu bintu bigiye bitandukanye.

Ibitoki byinshi cyane byakusanyirijwe hamwe bigaragara ko bitegereje imodoka iza kubitwara kugira ngo ibijyane ku isoko, bikaba ari ibitoki byeze kandi bishimishije.

Avoka zirunze mu mifuka ndetse iyo mifuka ikaba yagiye ituragurika yose, zikaba ziri kugenda zimeneka, hari ibintu iruhande aho ngaho bigiye kwifashishwa birundwamo izo voka.

Abantu babiri bigaragara ko ari abagabo bambaye amasarubeti, bari mu muceri barimo kugenda bawupakira bawupanga neza kugira ngo bajye bawufasha mu kugira ngo ugere ku ruganda neza.

Umugabo bigaragara ko ari ahantu mu bwanikiro bw'ibigori, akaba ari ubwanikiro bwanitseho ibigori byinshi cyane byasaruwe hirya no hino mu mirima y'abaturage.

Abantu benshi cyane bari imbere y'imifuka, iyo mifuka ikaba irunzemo ibihingwa byamaze gusarurwa, by'umwihariko ikaba ari imifuka myinshi cyane ndetse irimo ibiro birenga mirongo itanu.

Ibiti biri ahantu mu ishyamba bikaba ari ibya kimeza ndetse bigaragara ko iri shyamba rikunze kuba rifite ibintu byinshi bitandukanye bibamo by'urusobe rw'ibinyabuzima.

Ishyamba ririmo ibiti by'inzitane, bikaba byaragiye bifatana, ndetse rikaba ari ishyamba ahanini rigizwe n'ibintu bya kimeza gusa, aho rikeneye kuvugururwa.

Igiti kinini cyane gifite amashami menshi agiye ayishamitseho, kiri iruhande rw'umurima w'ibigori, iruhande rwacyo hari utwatsi dutoya dutoshye tukiri gukura.

Igiti kirekire kinini, ndetse bigaragara ko gifite amashami yarandaranze agacurama, akamanuka hasi, kiri iruhande rw'ishyamba rinini, rifatanye cyane.

Umurima uri mu kabande uhinzemo imboga za mashu. Mu murima hagati hagiye hateyemo ibiti, gusa ntacyo byonona kuko ari ibiti by'ubwoko buvangwa n'imyaka.

Imigozi ihinze ahantu mu murima wegereye inyubako y'umuturage, gusa uwo murimo ihinzemo hakaba harimo n'ibiti bitandukanye bya voka ndetse hakaba hateye n'urubingo ku mpande.

Urutoki bigaragara ko rushaje rukaba rutakera. Bararurimbuye basigazamo rukeya bakaba bamaze kwihingiramo ibishyimbo. Ibyo bishyimbo bitangiye kumera.

Ibiti bivangwa n'imyaka byinshi cyane biri inyuma y'urugo rw'umuturage ndetse aho biri bigaragara ko ntacyo bibangamira kuko harimo n'iyindi myaka irimo n'amateke.

Ipapayi rihinze mu gipangu bigaragara ko aho rihinze ari mu karima k'igikoni kuko hahinzemo n'imboga z'amoko atandukanye nka dodo ndetse n'amashu.

Ibiti birebire bikuze cyane by'amasederi, biri mu ishyamba ry'inzitane ndetse bikaba bigaragara ko ari ibiti bikeneye gusarurwa bikajya gutunganywa hagakorwamo ibikoresho bitandukanye.

Insina nziza cyane ziri kuri nyina, ndetse zikaba ziri ahantu mu ntabire nziza ihinze neza isa neza ndetse bakaba bazitaho mu buryo bwose.

Umurima uhinzemo ibihuru bigiye bitandukanye, ukaba ukeneye gutemwa kugira ngo uzahingwemo imyaka, harimo n'ibiti bya kimeza.

Igiti gikuze cyane ariko kikaba ari igiti kivangwa n'imyaka kirunzeho ibyatsi batongoye mu ntabire bahinze, hirya yacyo hari ibigorigori ndetse haratunguka n'inyubako y'umuturage.

Urubingo n'ubwatsi bwifashishwa mu kugaburira amatungo, cyane cyane inka. Ubu ubwatsi bukaba buhingwa ndetse bikaba ari ibintu bifasha abahinzi ndetse n'aborozi boroye inka.

Igiti kirekire gifite amababi manini ndetse n'amashami, kikaba cyegereye ahantu hari urutoki. Bigaragaza ko ari kimwe mu biti bivangwa n'imyaka ntigire ikibazo.

Ibyatsi byiza cyane bikikije igiti cya avoka, icyo giti kikaba gifite uruyange ariko rukaba rwaragiye ruhunguka, inyuma y'icyo giti hari gutungukamo inzu y'amabati.

Insina nziza cyane ifite amakoma atoshye, ikaba itangiye kwana, iri iruhande rw'inzu, inzu y'umuturage isakaje amategura, ikaba ihomesheje umucanga.

Igiti cya pinusi kirekire bigaragara ko gikuze, kikaba cyarazanye amarira, ndetse kikaba gifite ibyatsi byinshi cyane byakimanutseho, bikaba bira aho gikikije.

Ku isoko haba hari imbuto zigiye zitandukanye, urugero twavuga karoti ndetse tukavuga ibibiriganya, tukavuga ndetse n'ibindi byinshi.

Pikinyeri ni ahantu imbuto cyangwa se imboga zitegurirwa mbere y'uko zijya guterwa, ibi bikaba bifasha abahinzi ku buryo iyo bakuye imbuto aha ngaha baba bizeye yuko zizaterwa ntizume.

Amakombati ndetse n'ibihaza birimo biracuruzwa ku isoko, bifite ingano zitandukanye ushobora kugura icyo wamara cyangwa se ukagura icyo ufitiye amafaranga.

Avoka ikiri ntoya isasiye bigaragara ko ari iya kijyambere. Ikaba yitezweho gutanga umusaruro mu gihe gitoya, kandi mwinshi.

Umuntu w'umukobwa arimo kugenda afata imbuto zihumbitse maze akagenda arebamo urwapfuye akarusimbuza agashyiramo uruzima, akaba ari pikinyeri arimo kwitaho.

Inyubako nziza cyane yubatse ahantu hafi y'umuhanda ndetse imbere yayo hakaba hari ubusitani bugizwe n'indabo nziza n'ibiti birebire binini ndetse hakaba hari n'umuhanda w'amabuye.

Ku isoko rya nimugoroba bazanye ibicuruzwa bitandukanye, harimo imineke ya poyo, iya kamara, iya fiya ndetse n'ibindi bitandukanye nka avoka na za watermellon.

Umugabo w'umuhinzi wabigize umwuga, yibereye mu ruzabibu rwe. Hahinzemo amatunda ya giti, ndetse ni amatunda meza cyane, ubona ko akuze kandi nta kibazo yigeze agira cy'indwara na kimwe.

Ku isoko iyo ugiyeyo usanga hari ibicuruzwa bigiye bitandukanye, by'umwihariko ibikomoka mu buhinzi, twavuga nk'intoryi ndetse inyanya n'ibindi.

Avoka nyinshi cyane zipanze mu mapaniye. Ayo mapaniye akaba yifashishwa mu kuzijyana mu modoka kugira ngo na yo izijyane ku ruganda. urwo ruganda rukaba rukoramo amavuta.

Hari ubwoko bugiye butandukanye bw'imbuto ndetse n'imboga buhingwa mu Rwanda, gusa hari ubudakunze kuboneka aho ari ho hose mu giturage hirya no hino, urugero twavuga nk'ibibiringanya.

Imboga bigaragara ko ari amashu, ziri ahantu zirunze mu gitara ndetse zikaba ziri mu gitebo, hari ibasi iruhande rwazo y'ubururu hakaba hari guhinguka n'ibitunguru.

Abantu babiri b'abagore, barimo kumwenyura berekana intoryi nziza cyane z'umweru, bigaragara ko inyuma yabo hari umurima zihinzemo, zikaba ari izo mu bwoko bwiza cyane.

Intoryi zihinze mu mubande, bigaragara ko hashizemo icyapa, ndetse izi ntoryi zikaba ari nziza cyane zaramaze gufatana, hasi mu mababi urebye neza zifite imiteja mikuru, bivuze ko zatangiye kwera.

Ubusitani bwiza cyane burimo indabo ndetse bukaba bufite urucaca rwiza cyane, aho umuntu ashobora kujya akaba yakifotoza kugira ngo azabone ifoto y'urwibutso.

Ibihaza cyangwa se inzuzi nyinshi cyane zihinze mu murima munini, bigaragara ko uyu muhinzi yashoye umushinga wo guhinga izi mbuto.

Imboga ndetse n'imbogeri, ni ibihingwa biri mu karima k'igikoni, kari inyuma y'urugo rw'umuturage, urwo rugo rukaba rufite ibiti iruhande rwarwo, bikaba bizana umuyaga n'amahumbezi.

Igipangu kinini cyubakishijwe amatafari y'impunyu, kikaba gifite indabo zakizengurutseho ndetse hakaba hari n'umukindo muremure munini. Iruhande rw'umukindo hari izindi ndabo zitandukanye zitarakura cyane.

Umurima uhinzemo amatunda, akaba ari amatunda y'ibinyomoro ndetse benshi bakaba bakunda kuyita amatunda y'ibiti, harimo igiti kimwe kinini gifite imbuto nini cyane zigiye kwera.

Imboga ziteye ari nyinshi bigaragara ko ari imboga zo mu bwoko bwa dodo, zikaba ari bwo zigiterwa ndetse zikaba zitaratangira gufata.

Karoti nziza cyane zihinze mu murima mu kabande, ni karoti ubona ko zitaweho ndetse zikaba zigiye kwera. Izo karoti zikaba zihinze mu miringoti itatu.

Umugore ahagaze mu bishyimbo yiteye igitenge ahetse umwana ndetse akaba arimo kubagara ibi bishyimbo, ibyo bishyimbo bikaba bifite uruyange mu minsi mikeya birazana imiteja.

Karoti nziza cyane ubona ko zibura igihe gitoya ngo zere, zikaba zihinze ahantu mu kabande hakaba hari n'indi mirima ihegereye umwe uhinzemo imigozi ibyara ibijumba.

Ku isoko hahuriye ibicuruzwa bitandukanye by'umwihariko iby'imbuto, hari amapapayi, amacunga, imyembe, indimu n'ibindi bigiye bitandukanye, iri soko rikaba ricururizwamo n'abagore benshi.

Imiteja irunze ku gitenge, ikaba ari imiteja mibisi yasoromwe ku bishyimbo, kugira ngo yifashishwe mu guteka nk'imboga, ndetse ikaba irambitse ku gitenge gifite amabara atukura.

Abantu benshi bakunze kwibeshya ko utahinga dodo ngo ukuremo amafaranga. Nyamara hari abaturage bafashe iya mbere maze bahinga dodo ku buso bunini cyane, none bamaze kwiteza imbere kuko mu gihe cy'izuba ziragurwa cyane.

Imbuto zazanwe ku isoko zikaba zirimo kugurishwa ndetse buri wese akaba agura izo akeneye, hari amatunda y'ibiti, amatunda y'imigozi, hakaba ndetse n'amaronji n'ibindi byinshi.

Umurima mwiza cyane wo mu kabande, ukaba uteyemo pavuro. Izo pavuro ni nziza ziratoshye zirasasiye, kandi bigaragara ko zifite imiteja mikuru itangiye kwera.

Ibasi iteretse muri karoti, izo karoti ni nyinshi ndetse ziracumye uretse ko zitaronze, izi karoti zimaze gukurwa mu murima aho zigiye kujyanwa ku isoko.

Umuntu ufite dodo ziciye zikaba zifunze umufungungo ndetse zatangiye kuraba, bigaragara ko yaziciye kare. Izi dodo zikaba ziri butekwe zikavangwa n'ibiryo.

Amashu meza cyane ateye mu murima wo mu kabande, ndetse akaba asasiye. Ni amashu ateye ku murongo akaba ari meza, ku buryo bubereye ijisho.

Intoryi nziza cyane zisasiye ubona yuko zitangiye gutaraka, bimwe bita gutoroga, biterwa n'aho umuntu yavukiye, gusa ni intoryi zihinze mu mubande.

Umuntu w'umukobwa ukiri mutoya ari mu bigori ndetse akaba ari gusoroma imboga, nkuko bigaragara ni mu kabande ndetse hakaba hari insina ziri guhinguka hirya.

Karoti nziza cyane, zirambitse ku gitenge. Ni karodi zahinzwe mu buryo bugezweho, zirafumbirwa, zishyirwaho amafumbire y'ubwoko bwose ndetse zikaba ziri ku isoko.

Amatunda y'ibiti akaba ahombetse muri pipinyeri mbere y'uko ajya guterwa ahabugenewe, arakuze asa neza ndetse bigaragara ko ageze igihe cyo guhingwa.

Karoti zirunze ku mifuka ndetse bigaragara yuko zifunze imifungo, buri muntu wese agenda aza akagura umufungo akeneye, hari n'inyanya ndetse n'intoryi.

Avoka zihiye zirunze ku gitara kuri shitingi mu isoko zitegereje abaguzi. Zegeranye n'inyanya zifunze imifungo itandukanye. Hari imifungo y'ijana n'iya magana abiri.

Amatunda meza cyane bigaragara ko ashobora kuba aryoshye, ni amatunda yasoromwe uyu munsi, yegeranye n'andi y'imigozi ndetse hakaba harimo n'amarongi n'indimu n'ibindi.

Kapusine zihinze mu ruzabibu bigaragara ko rutewemo indabo nyinshi, hakaba hari n'igikuta kigaragara gisize irangi risa n'ibara ry'ivu.

Imboga za dodo zirambitse ahantu bigaragara ko zifunze imifungo, aho buri wese agenda aza akagura umufungo akeneye bitewe n'amafaranga afite.

Mu isoko bazanye ibihaza ndetse bazana ibijumba n'imyumbati, bakaba babitanditse bategereje abaguzi baza kubigura kugira ngo babone amafaranga.

Umurima munini cyane uhinzwemo dodo, izo dodo zikaba zarejeje ndetse bigaragara ko bagira ngo bazakureho imbuto zo guhomeka maze batere n'ahandi.

Inyanya ziri ku gitebo zikaba ari inyanya nziza cyane bigaragara ko ari iza kijyambere. Zikaba zazanywe ku isoko kugira ngo abaguzi bazihasange bazigure bajye kuziteka.

Intoryi zitukuye zikaba ziri ku rutoryi ruhinze ariko rutaratangira kwera neza, izi ngizi ni izatoroze mbere ndetse by'umwihariko zikaba zisaziye zose.

Ku isoko hazanwe ibicuruzwa bitandukanye bikomoka mu buhinzi, hakaba harimo watermelon, amacunga, indimu, imyembe, amatunda ndetse hakaba harimo na pome.

Abantu benshi bakunda guhinga ibishyimbo bagategereza ko byera, gusa hari ibishyimbo umuntu ahinga maze akajya asoroma imiteja, akaba ariyo agurisha.

Ku isoko uzahasanga ibicuruzwa bitandukanye, ariko uzasanga mu ry'abagore hiberamo ibintu by'imbuto zo kurya ndetse n'imboga zitandukanye, harimo karoti, amashu, ibitunguru, ndetse n'intoryi.

Umugabo arimo kuvomera ibigori bikiri bitoya, ari kubivomera akoresheje umupira ndetse bigaragara yuko ibi bigori bimaze kubagarwa.

Umugabo afite umupira w'umweru arimo kuvomerera imbuto zitarakura ndetse bigaragara ko ari mu gihe cy'izuba imvura itakigwa, ubu ni uburyo yifashishije kugira ngo ibihingwa bye bitazabura amazi.

Umugabo arimo kugenda avomerera imbuto zitandukanye, zihinze mu kabande. Ndetse bigaragara ko izo mbuto zisa neza, zitoshye bitewe nuko zitaweho.

Ni mu gihe cy'impeshyi ababyeyi barimo kubagara imboga ndetse hari umugabo urimo kugenda avomera aho bamaze kubagara, bigaragara ko bari kwitegura kuzatanga ibiribwa ku isoko nubwo ari mu gihe cy'izuba.

Umugabo bigaragara ko ari umugabo ukuze, arimo kuvomera imboga, izo mboga zikaba ari amashu, ahinze mu mubande. Uyu mugabo ari kuvomera yifashishije imashini yabugenewe.

Umuntu bigaragara ko ari umubyeyi, ateze igitambaro, ndetse akaba akenyeye igitenge, arimo kuvomera imboga z'amashu, bigaragara ko zikiri gukura, ndetse bikaba ari mu gihe cy'izuba.

Umuntu wumugabo wambaye ipantaro y'ubururu, arimo kuvomera imboga zikaba ari iz’ubwoko bwa mashu, izi mboga zihinze mu kabande ndetse hirya y'umurima hari ishyamba.

Umugabo wambaye amarinete ndetse akaba arimo kuvomera ibigori, ibyo bigori bikaba ari byiza cyane ndetse byenda kwera. Inyuma ye hirya hari undi uri gusunika imashini yifashishwa mu guhinga.

umugabo wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi kibisi arimo kuvomerera imyaka irimo ibishyimbo ndetse n'ibigori ahantu mu kabande bigaragara ko ari mu gihe cyi'izuba.

Umurima urimo kuvomerwamo amazi, ayo mazi ari guturika muri robine, iyo robine ikaba yarakozwe kugira ngo ijye yifashishwa mu gihe cy'izuba.

Igishanga kinini cyane kiri ku buso bugari rwose bigaragarira ijisho, kikaba ari igishanga gihinzemo umuceri ndetse uwo muceri ukaba witezweho umusaruro mwinshi cyane.

Akabande karimo imirima yo guhingamo ndetse kakaba karimo n'ibishanga birimo amazi, aka kabande kakaba kazwiho guhingwamo ibihingwa bitandukanye.

Umurima munini cyane uhinzweho ibintu bitandukanye, hakaba hateyemo urubingo rutuma isuri idatembana ubutaka bwawo.

Umurima wahinzwemo ibigori, none byamaze gusarurwa ndetse ubu ngubu hasigaye ibigorigori na byo bimaze kuma, bigaragara ko mu minsi iri imbere bazahingamo indi myaka.

Ikibuga kiza cyane kirimo utwatsi abantu bicaramo igihe barikureba umupira. Hari amahumbezi kuko hari ibiti bizana akayaga. Hari ikirere kiza cyane gisa neza gituje.

Umusozi bigaragara ko ari mu giturage, hari inzu iri iruhande rw'insina ikaba isakaje amategura, hakurya yayo haragaragara izindi nzu nyinshi zituwemo n'abantu ndetse biragaragara ko ari ahantu heza cyane harengera izuba.

Ikibuga bigaragara ko atari icy'umupira w'amaguru, kiri ahantu hitegeye ndetse hakaba hari ahatari icyatsi na kimwe, hakaba hahinguka n'umusozi hakurya.

Umurima uciyeho amaterasi y'indinganire ndetse ukaba uhinzweho ibintu bigiye bitandukanye, ni umurima uri ahantu ku gasozi ndetse ukaba uteganye n'ahantu hari akayira kanyura mu ishyamba.

Ikibuga kinini cyane twakita nk'igisambu kuko nta mupira ugikinirwamo ahubwo hari ibyatsi byakuze byinshi cyane, haziritsemo ihene zirimo kurisha, hari ibiti bifite amashami azamuka mu kirere.

Ikibuga kinini cyane gifitemo n'umuhanda uca ku ruhande. Kikaba ari ikibuga cy'umupira w'amaguru. Gusa cyegereye ahantu hari ishyamba ndetse bigaragara ko ibyatsi byaho byakuze cyane.

Umwana mutoya w'umukobwa yibereye mu kayira ndetse bigaragara ko ari mu kabande. Iruhande rwe hari ingano zikuru bigaragara ko zigiye kwera.

Mu Rwanda hari imisozi myinshi cyane ihanamye ndetse hakaba n'udusozi, ni yo mpamvu barwise ngo ni u Rwanda rw'imisozi igihumbi, gusa hakaba hagiye hatuyemo abaturage bakibera mu manegeka.

Ingurube ziragaramye zimaze kurya zahaze, ibibwana byazo na byo birigaramiye mu nguni, ni ingurube nziza cyane z'ubwoko bwa kizungu ndetse zose ziteye amaherena ku matwi.

Umubyeyi ari kugaburira ihene ye aho yayizanye imbere y'umuryango, ari kumwe n'abana be babiri bahagaze imbere y'inzu, iyo nzu ihomesheje umucanga ndetse ifite inzugi zisize irangi ry'icyatsi kibisi.

Ingurube yavuye mu kiraro none yagiye konona ibintu iruhande rw'inzu, irimo kugenda ihitana ibyo ibonye byose uko bigaragara ba nyirayo ntabariyo.

Urukwavu ruratangaje cyane, rurimo gukora siporo, aho ruri kumanuka ku nzu bigaragara ko rugiye kwikubita hasi, rukaba ari urukwavu rw'umweru rufite amatwi maremare.

Inka ifite ibara ry'umukara n'umweru, ikaba iri kumwe n'inyana yayo, bikaba byibereye mu kiraro gusa uko bigaragara iyi nyana ni bwo ikivuka kuko iri gushakisha aho yakura ibere ngo yonke.

Inka nziza cyane ibyibushye bigaragara ko yibera mu kiraro ndetse ikaba ifite aho irira. Ifite icebe rigaragaza ko ikamwa amata menshi. Imbere yayo hari abantu baje kuyisura barimo kuyitegereza.

Umuntu w'umugore afite agakwavu mu ntoki, hari n'abandi bagabo babiri na bo bafashe udukwavu tw'umweru mu ntoki buri wese kamwe kamwe, bari imbere y'ibiraro byubatse mu buryo bwa etaje bigerekeranyije, ibyo biraro birimo inkwavu nyinshi.

Ingurube yubakiye neza iri mu kiraro ikaba ifite amatwi areba hejuru. Irimo kwitegereza ishaka gusohoka ariko ntiyabona aho isohokera kuko haradanangiye.

Inka nziza cyane ifite ibara ry'umukara n'umweru, ikaba irimo kurisha ahantu mu gishanga, bigaragara yuko ari inka ya kizungu ndetse ifite iherena ry'umuhondo ku matwi.

Inka nziza cyane y'inzungu irimo kurisha, iri mu kiraro cyayo ikaba ifite akariro keza bayishyiriramo ubwatsi butemye neza hanyuma nayo ikaburya , ni inka bigaragara ko itanga umukamo ushimishije.

Umugabo woroye inkoko nyinshi cyane yicaye imbere yazo, biragaragara ko ari inkoko zo mu bwoko bwa kizungu, zose zikaba ari inkoko zigiye ziritandukanye, hari iz'amagi, ndetse hari n'iz'inyama.

Umuntu arimo kugaburira inka, iyo nka ni inyana ntoya bisa nkaho ari kugenda ayitoza gukora ibintu bitandukanye, bitewe n'uko itaramenyera isi.

Ihene iziritse ku kiraro kinini cyubakishijwe imbabari zavuye ku mbaho zabajijwe mu giti cyitwa gereveriya. Ni ihene idafite ubwatsi bwo kurya ahubwo ubwo bayihaye yabumaze.

Ihene eshatu ziziritse mu kiraro zikaba ziri imbere y'ikiraro cy'inka, icyo kiraro cy'inka nta nka irimo ubanza bagiye kuyahura, gusa ni ikiraro gikomeye cyubatse neza, cyubakishijwe imbaho n'ibiti.

Inka y'umweru yibereye iruhande rwa nyina, birimo gusangira gusa nyina yo irafungiranye ndetse zikaba ubwatsi zabushandaguje.

Ingurube nini cyane yagaramye ndetse irasa nk'iyapfuye. Uko bigaragara iyi ngurube yari ibwegetse, gusa ikaba yapfuye itabwaguye.

Ubworozi bw'inkoko bushobora guteza imbere ubukora igihe cyose abukoze mu buryo bugezweho. Hari igihe ufata inkoko ukazororera mu kiraro cyabugenewe ukubakisha senyenge ku buryo zibasha guhumeka zikabona umuyaga.

Ihene nziza cyane, iziritse ku giti ndetse bigaragara ko ari mu kiraro cyazo, kuko hari ibyatsi byinshi. Iruhande rwazo hahinze ibigori ndetse hari n'izindi hene ebyiri zikiri ntoya zibereye mu kanyatsi.

Inka nziza cyane bigaragara ko ikiri ntoya, ikaba yibereye mu kiraro cyayo yasohoye ururimi ndetse ikaba isasiye icyarire kiza cyane, bigaragara ko igirirwa isuku.

Ihene iziritse mu biti byinshi cyane ndetse bigaragara ko nta cyo ifite cyo kurya, gusa ni ihene ikiri ntoya ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Ingurube nziza cyane ya kijyambere. Ni ingurube ifite iherena yatewe ndetse ikaba yibereye mu kiraro cyayo, ifite ubwatsi iri kurya gusa aho iri harasa nabi.

Inkoko y'isake, ni inkoko nziza cyane kuko ishobora guteza imbere uwayoroye mu buryo butandukanye. Aho ayigurisha muri hoteri, bakamuha amafaranga menshi.

Umugabo aragiye inka nubwo ayiragiye iziritse ikiziriko mu ijosi, iyi nka ni inyana ikiri ntoya ndetse aho ayiragiye hari utwatsi dukeya kuko ahandi ari mu mbuga.

Ingurube nini cyane ya kijyambere, yorowe neza ndetse igaburirwa neza, ibasha kubwagura ibibwana byinshi cyane, ku buryo umuntu ashobora gutera imbere mu gihe gitoya, agurishije ibyo bibwana.

Inka nyinshi ziri mu kiraro ndetse zikaba zirimo guterwa inshinge zitandukanye, abaturage na bo ni benshi bakaba bazanye inka zabo kugira ngo zikingirwe.

Abantu babiri bahagaze imbere y'inzu yabo, ni umugore n'umugabo bari kumwe n'abana, abana babo umwe ateruwe na nyina, abandi babiri barihagarariye.

Abantu batatu barahagaze barimo kwitegereza ibiraro byibatse, byubatse neza cyane by'inkwavu bigezweho, ibyo biraro bikaba birimo inkwavu nyinshi cyane zirenga igihumbi.

Ihene ziziritse mu kiraro cyazo, zikaba ari ihene nziza cyane z'ubworozi, izo hene zose zikaba ari nkuru ndetse bigaragara y'uko ari amashashi.

Ingurube iryamye mu kiraro yamaze kurya ubwatsi bwayo ndetse bigaragara ko ari ingurube nziza cyane y'ubworozi, iyi ngurube yitaweho ndetse ni ingurube ubona ko ari ikinyagazi.

Inkoko za kijyambere ni inkoko zororwa hagamijwe kugira ngo uzoroye yiteze imbere abone amafaranga, aho izo nkoko zitera amagi ndetse izindi zikagurishwa bakajya kuziryamo inyama.

Umugabo arimo gushima ingurube ndetse n'ingurube nini cyane ya kizungu, akaba yayisohoye mu kiraro, arimo kuyigaburira ibiryo birambitse ku mufuka.

Leta y'u Rwanda yagiye ishishikariza abaturage korora amatungo magufi kuko abagoboka mu gihe cy'amage ndetse bakabasha no kwiteza imbere mu buryo bugiye butandukanye ariko abatishoboye yabahaye ingurube buri muturage.

Ihene nyinshi cyane bigaragara ko zijyanwe ku isoko, ziziritse amaguru yose kugira ngo zidacika, harimo amasekurume, amashashi ndetse n'amajigija.

Inka nziza cyane bigaragara ko ifite icebe isa nkaho ikamwa yibereye mu kiraro cyayo, ikiraro cyayo gisakaje ibyatsi gusa yo nta bwatsi ifite bwo kurya.

Inka nziza cyane bigaragara yuko yabyaye, iri mu kiraro cyayo ndetse icyo kiraro kikaba gisakaje ibyatsi, ikaba ari inka y'umuturage usanzwe.

Inka nziza cyane y'ingweba iri mu kiraro. Bayihaye ubwatsi, yaburiye yahaze. Isaziye neza bigaragara ko nta gisogororo irimo, ibiraro byayo ni binini cyane.

Ihene ebyiri zikiri ntoya bigaragara ko ari isekurume zo kubagwa, ziziritse ku ruzitiro ruzitijwe ibyuma ndetse na senyenge. Izi hene nkuko bigaragara zijyanwe kubagwa.

Inka nziza cyane y'umukara iri mu kiraro, irimo kurya ibigorigori, imbere yayo hari ihene y'umukara birimo birasangira nta kibazo, imbere yabyo hari umwana mutoya wihagarariye.

Ingurube iri imbere y'inzu bigaragara ko yatorotse mu kiraro cyayo. Ikaba iri gushaka icyo yona ndetse nk'uko bigaragara ni ingurube ikiri ntoya.

Inka nziza cyane ziri mu rupango ndetse hari n'indi iri inyuma yarwo, uko bigaragara, abantu bose baje, baje gukingiza izi nka. Izi nka zikaba ziri gukingirwa indwara zitandukanye.

Pavuro nini cyane bigaragara ko zakuze zitaweho, zashyizweho imvaruganda ndetse zashyizweho buri kimwe cyose gikenerwa kugira ngo zibashe kwera.

Urusenda ruhinze ahantu mu mubande rukaba rufite imiteja ariko rutaratangira gutukura, ni urusenda rwiza cyane ubona ko ruzatanga umusaruro ushimishije.

imigano ikuze cyane. iri iruhande rw'umurima uhinzemo ibishyimbo. ibyo bishyimbo bitangiye gukura ndetse bigaragara ko ntamvura ibigeraho, bitewe n'iyi migano.

Inyanya zitangiye kuzana imiteja mikuru, bigaragara ko zitaweho cyane kandi zitoshye, zikaba zizera mu minsi iri imbere.

Pipinyeri ni ahantu bahumbikira imbuto mbere y'uko zijya guterwa mu murimo wabugenewe, izi mbuto zikaba zitunganyirizwa aha ngaha kugira ngo niziterwa zitazuma cyangwa zikagira ikindi kibazo.

Inyanya zihinze mu murima bigaragara ko ari inyanya ndende z'ubwoko buhemberwa, zikaba zitangiye kwera, harimo izatukuye izitangiye gutukura ndetse n'iz'imiteja.

Imyumbati myiza cyane y'iminahiro iteye neza ku murongo, harabura iminsi mikeya ngo yere ndetse ikaba yuhiye neza cyane, iri iruhande rw'akayira kamanuka kajya mu ngo z'abaturage.

Muri pikinyeri ni ho hategurirwa imbuto zitandukanye zizajyanwa guterwa mu misozi cyangwa mu bibaya, aho iyo uziteye uzikuye mur'iyi pikinyeri zitabasha kuma.

Ibihingwa byinshi cyane bigenda bihingwa mu Rwanda birimo ibigori, imiceri, ingano ndetse n'ibindi. Ibyo byose birahurwa, bikanikwa, bigahunikwa cyangwa bikajyanwa mu nganda.

Umurima wo mu kabande uhinzwe neza cyane ku buryo bayoboye amazi akaba aca ku ruhande rumwe ndetse bikaba bigaragara yuko ari mu gihe cy'izuba, mu minsi iri imbere bazawifashisha barimo kuvomera.

Ibishyimbo bikuru bitangiye kuzana imigondoro, bikaba bihinze mu murima mwiza cyane wegereye amazi ndetse uko bigaragara nyirabyo akaba yaratangiye kubishyingirira.

Leta y'u Rwanda ishishikariza abaturage guhingira hamwe ndetse bagasarurira hamwe, niyo mpamvu hari amwe mu makoperative yo mu burasirazuba yishyize hamwe agakora ubwanagiro bw'ibigori bubafasha kugira ngo umusaruro wabo ubikwe neza.

Ubuhinzi bw'imbuto n'imboga ni ubuhinzi bumaze gutera imbere mu Rwanda ku buryo ababukora bishimira ko bamaze kugenda babona amasoko atandukanye bityo batakigorwa no kubura aho bagurisha umusaruro wabo.

Intoryi zihombetse mu gihombeko zikuze zigeze igihe cyo guhombokorwa zikajya guterwa ahabugenewe mu murima watunganyijwe, hakaba hari n'ikindi gihombeko kirimo imbuto zikiri ntoya zitarakura.

Inturusu zizwi ku izina rya mayideni, zikaba zihombetse mu gihomeko, cyangwa se ahitwa muri pikinnyeri. Izi mbuto zikaba zitegura kuzaterwa ku buso bunini cyane.

Inka y'umuturage yarwaye none yazanye veterineri ngo ayivure, bayifashe iryamye mu kiraro veterineri arimo kuyitera urushinge.

Inka bigaragara ko ari inyana, irwaye indwara y'uruhu ndetse ikaba yarakobotse cyane, bigaragara ko ikeneye veterineri ngo aze ayivure maze ibashe kumera neza.

Umugabo w'umuveterineri afashe inka y'inyana akaba arimo kuyiha umuti. Hari abandi bagabo babiri bamufashije kuyifata. Iyo nyana yambaye iherena ry'umuhondo.

Inyana ntoya yapfuye, yapfuye izize indwara zitandukanye zifata inyana nk'izi ngizi, igihe ufite inyana usabwa kuyitaho ndetse ugashaka umuganga w'amatungo kugira ngo agufashe kumenya ibibazo ufite.

Umugabo bigaragara ko ari umuganga, yambaye uturindantoki ndetse afite umuti uteretse mu icupa, akaba agiye gutangira gufuhira inka.

Umuganga w'amatungo yambaye itaburiya ndetse n'isarubeti, akaba arimo gutera urushinge ihene, iyo hene ifashwe n'umuntu w'umugabo, hirya inyuma yabo mu rwuri hari izindi hene n'intama nyinshi.

Abagabo babiri bifashije inyana, barimo kuyivura. Umwe ari kuyitera urushinge ndetse n'iherena, mu gihe undi we yayifashe mu zuru no mu kanwa.

Abantu benshi cyane bakunze kwitiranya ibikorwa by'ubuhinzi bagira ngo ntibyaguteza imbere, ariko iyo ubuvanze no korora ni umwuga ugukiza.

Umuntu afashe inka ye yayiziritse ku giti akaba agiye kuyiha ubwatsi. Ni inka nziza cyane y'umushishe ikaba ifite amabara y'umukara n'umweru ndetse ikaba ari impfirizoni.

Impala ni inyamaswa nziza cyane ikunze kuboneka ahantu mu misozi, urugero nko muri parike ndetse n'ahandi hantu hari amashyamba y'inzitane.

Inkende yazamuye ukuboko hejuru irimo gupepera abantu. Ikaba irimo no kugenda ibahema. Ni inkende yibereye mu giti, mu bushorishori hejuru.

Inyoni ifite ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse n'umukara, irimo kureba hejuru. Ihagaze kuri ruswa ikaba irimo kugenda iyirya. Iyi ruswa irenze irasa umuhondo.

Agakede karimo kwitegereza kareba kahindukiye ndetse bigaragara ko kibereye mu gihuru, inkende ni inyamaswa zikunze kwisanisha n'abantu cyane kuko zigira imico yenda kumera nk'iyabo.

Inyamaswa iteye ubwoba ifite ibintu bimeze nk'amahwa ariko byitwaye nk'amababa, gusa yo ikaba itaguruka ahubwo igendera ku butaka.

Agakende kari mu muhanda rwagati, kakaba kiyicariyemo ndetse bigaragara yuko karimo kwambuka. Mu by'ukuri inkende ziratangaje cyane, kuko zizi ubwenge bwenda kungana nk'ubw'abantu.

Agacurama ni kamwe mu nyamaswa zikunze gutungura abantu, bitewe n'uko kagira ubwoko bubiri kabarizwamo; icya mbere kabarizwa mu biguruka, icya kabiri kabarizwa mu binyamabere.

Igisamagwe ni inyamaswa iteye ubwoba cyane, ni inyamaswa idakunze kuboneka hirya no hino mu mashyamba ahubwo ikaba iba ahantu hihariye, gusa iramutse ibonetse hafi abantu bajya bayitinya.

Inguge iri mu biti irimo iritegereza hejuru, ibiti irimo n'ibiti bifite amababi atoshye cyane, nkuko bigaragara ikaba ifite icyo irimo kureba.

Inyoni bigaragara ko iri mu bwoko bw'intunda, ikaba ifite isunzu ritukura ndetse ikaba irimo kwitegereza ahantu hakurya, yihagarariye ku ishami ry'igiti.

Hari ubwoko bw'ibikururanda byinshi cyane, bifite amoko atandukanye ndetse hari ibikeri nabyo bikaba bibarirwa muri ayo moko.

Ingagi ni inyamaswa ifite imico n'imyifatire yenda kumera nk'umuntu, ndetse ikaba ari inyamaswa idakunze kuba ahabonetse hose, kuko iba mu ishyamba rinini cyane nka za parike n'ahandi.

Inyoni nziza cyane iri mu giti yihagarariye ku ishami, ikaba irimo kwitegereza hirya no hino aho ishaka kuguruka kugira ngo ishake aho ijya gutora.

Inyamaswa bigaragara ko ari inyamaswa y'ishyamba, ikaba ihagaze irimo kwitegereza abantu, iyi nyamaswa ikaba yibereye aho ziba.

Inkende zibereye mu giti, zikaba zirimo kugenda ziganira, gusa zose ziri kureba mu byerekezo bigiye bitandukanye, ndetse harimo na kamwe gatoya bigaragara ko kakiri akana.

Igisiga cyitwa igikona, gifite ibara ry'umukara n'umweru, ndetse bamwe bakunda kucyitirira ikipe imwe iba mu Rwanda yitwa APR.

Isha eshatu zihagaze ku musozi zirimo kwitegereza, zikaba ari isha ubona ko zishishe, izi zose zibera mu misozi ndetse no mu bibaya.

Inyoni nziza cyane ifite ibara ry'umutuku n'umukara, yibereye mu byatsi aho iri mu migwegwe, ikaba irimo gutekereza ahantu igiye kuguruka ikajya gutorera.

Agacurama ni inyamaswa itangaje cyane, ni agasimba kabarirwa mu moko abiri, ubwoko bwa mbere kabarirwa mu biguruka ubwa kabiri kabarirwa mu binyamabere.

Inyamaswa ebyiri z'igasozi zikaba zizwi ku izina ry'ihene z'ishyamba, zikaba zihagarariye imbere y'igihuru mu gisigati cyatemwemo amasaka y'umuturage.

Impala n'imparage ni inyamaswa ziba muri parike nkuru y'Igihugu y'u Rwanda ndetse izi nyamaswa zikaba zikunda gukurura ba mukerarugendo, baza kuzireba maze bakatuzanira amadovize.

Inyoni yitwa igikona. Ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru. Ikaba irimo kugenda itambuka, igiye kuguruka.

Igisiga kinini cyane kizwi ku izina rya kagoma kiri mu kirere kiraguruka gifite icyerekezo bigaragara ko gifite aho kigiye, gifite umuvuduko munini cyane kikaba kirambuye amababa yose.

Inzovu ni zimwe mu nyamaswa nini cyane, gusa zitangiye kuzimira ku isi, usanga izisigaye ku isi zibarirwa mu mibare ifatika, inzovu ni inyamaswa zikunze kubaho ubuzima bwihariye.

Ingagi eshatu ziricaye, zirimo kwitegereza mu byerekezo bitandukanye nkuko bigaragara zikaba zirimo kwitekerezaho kugira ngo zirebe ko zajya guhiga icyo kurya.

Ishya ni inyamaswa imeze nk'ihene ariko ikaba atari ihene. Yemwe hari n'abahigi birirwa bazihiga muri za parike kugira ngo bazice. Gusa izi nyamaswa zikwiye kubungabungwa.